Aha ni mu biro bikuru by'urukiko rw'u Rwanda. Ahacirwa imanza z'abakoze ibyaha bitandukanye. Bamwe bahava bataha basubira iwabo, abandi bakahava bajya mu buroko gufungwa, bitewe n'uko urubanza rwaciwe.

Aya ni amadarapo y'ishyaka rikuru rihagarariye ibijyanye n'amatora mu gihugu cy'u Rwanda ari ryo efuperi akaba azamurwa gutya mu gihe abaturage barimo kwihitiramo cyangwa se bari gutora umuyobozi w'igihugu cyabo, uzabayobora mu gihe kitari munsi y'imyaka itanu.

Iki ni kimwe mu binyabiziga byifashishwa mu gutwara imizigo iremereye, irimo nk'ibyo kurya. Birimo ibitoki, ibirayi, amapapayi, n'ibindi bijyanwa ku isoko bivanywe aho bihingirwa.